Akazu gatukura abaturage batambuka bajya mu mirimo yabo, akazu gatukura kariho ibirango by'ikigo gishinzwe itumanaho kimwe mu biri mu Rwanda ikigo cya Eyateri aho baba begereje serivisi abaturage.